Ndabona abagabo babiri n'umugore umwe bicaye imbere yabo hari mikoro, inyuma yabo handitse Kigali yacu, Kigali iteye. Bicaye ku meza asa umutuku, imbere yabo hari n'imashini.

Ndabona abantu bicaye bameze nkahoho barangariye imbere yabo, bameze nk'abari mu nama abagabo n'umugore umwe imbere yabo hateretse amamashini n'amacupa arimo amazi n'amakayi.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama, bari kureba imbere yabo amagambo yanditse mu ibara risamweruru. Bateretse imbere yabo, hateretse amacupa y'amazi y'inyange na mudasobwa; bamwe barakurikiye abandi bararangaye.

Abagore n'abagabo bicaye bameze nk'aho barimo barakurikira, imbere y'aho hateretse uducupa tw'amazi y'inyange, harimo abamama batatu, n'abagabo bane, n'uwundi mumama wicaye inyuma hirya utagaragara, abamama babiri bambaye amarinete.

Ndabona abagore batatu bicaye ku meza ateguyeho igitambaro gisa umweru, babiri ni abirabura, undi ni umuzungu, wambaye na rinete, imbere yabo bateretse amavide arimo amazi, hakaba hateretse n'ibirahure birimo amazi.

Abantu bicaye bari mu nama, bamwe barakurikiye abandi bararangaye, imbere hicaye abamama babiri n'umupapa umwe, imbere yabo hateretse mudasobwa n'icupa ry'amazi ry'inyange, amacupa abiri, abamama babiri bambaye rinete, inyuma yabo hicaye urubyiruko, rumwe rurarangaye, abandi ni abantu bakuru barakurikiye.

Abagabo bicaye bari mu nama bose bambaye amarinete, harimo abambaye amashati y'ubururu, imbere yabo hatetse mudasobwa amacupa y'amazi y'uruganda rw'inyange, bamwe bari kureba mu mumashini abandi barakurikiye.

Abantu benshi bicaye mu mahema abiri, abandi bicaye hasi bari mu nama, mo hagati hahagaze umubyeyi uhagaze, imbere yabo arimo aravuga, imbere ye hari undi musore wambaye umupira w'umuhondo, n'undi urimo arafotora.

Abagabo n'abagore bari mu nama, imbere yabo hateretse amazi y'inyange, abandi imbere yabo hari mudasobwa bakurikiye, gusa bose barakaye, hari n'uri kuri telefone, uwundi mumama ari kwandika mu ikayi yarangaye.

Abantu benshi baba mama bahetse abana bari mu giturage barimo barahabwa amatungo y'ihene, hari bagabo n'abagore bambaye amakote, akaba n'abandi bashinzwe umutekano bambaye imyenda isa icyatsi.

Abantu benshi bicaye bari mu nama, bamwe bari kwandika, abandi bicaye inyuma bararangaye barimo baraganira, abicaye imbere, imbere yabo hateretse ibikoresho birangurura amajwi bakoresha, hateretse amacupa y'amazi y'Inyange, bakurikiye inama.

Umugabo uhagaze imbere afite indangururamajwi ayoboye inama, inyuma ye hari icyapa cyanditseho inama nteko rusange, abafatanyabikorwa b'akarere ka Gasabo yitabiriwemo n'aba mama n'aba papa bari kunywa amazi y'inyange.

Ndabona ifoto irimo abagabo benshi n'abagore bari mu nama, harimo abazungu n'abanyarwanda, harimo abagabo bambaye amalinete, harimo abifashe ku munwa bumiwe, harimo abari kureba hasi, harimo abakurikiye, harimo abarangaye.

Abasore n'abakobwa bicaye bambaye imipira y'ubururu, abasore batatu n'umukobwa umwe imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, bameze nk'abari kwandika mu dukayi bari mu nama bateze amatwi.

Abantu batatu bicaye bari mu nama, umwe imbere ye hateretse mudasobwa, undi imbere ye hari mikorofone, abagabo babiri n'umugore umwe, inyuma yabo handitseho Kigali yacu, Kigali ikeye.

Abantu bicaye mu nama hagati yabo bayobowe n'umuntu w'umugabo uhagaze wambaye ishati y'ubururu arimo arayobora inama, bicaye ku ntebe z'umutuku, bamwe barakurikiye abandi bararangaye.

Umugore uhagaze imbere uyoboye inama afite ikirangururamajwi yambaye rinete, inyuma ye hari igiti cy'icyatsi mu nzu mo mbere, imbere hicaye abana benshi bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara hateretse n'amacupa y'amazi y'Inyange.

Ndabona abantu bicaye bari mu nama ku meza asa umutuku bicaye ku ntebe z'umukara harimo abagore harimo abagabo ,abagore bose bambaye amarinete umugabo wambaye rinete n'umwe, hari n'undi mugabo uhagaze ku ruhande imbere y'abo hari mikoro na mashini.

Ndabona abantu benshi bicaye, barimo gukoma amashyi, harimo abamama, harimo abakobwa, harimo abasore, inyuma yabo nkahabona imodoka ziparitse, ndende, zisa ubururu, nkabona n'iminara y'amashanyarazi ihari iruhande rwabo, inyuma.

Ndabona umugabo wicaye ku mashini, yambaye ikote ry'umukara, yambaye n'ingofero, arimo arareba mu mashini, harimo udupupe tubiri, imbere ye hari undi mukobwa wambaye ishati y'umweru usutse, wambaye na ekuteri na we imbere ye hari imashini.

Ndabona icyapa cyanditseho ntibyemewe kwishyura urugendo udakoresheje ikarita yabugenewe uburyo rukumbi bwemewe mu kwishyura urugendo rw'imodoka mu mujyi wa Kigali nta ari ugukoresha amafaranga ni ugukoresha imashini yabugenewe ariyo wakozaho ikarita birabujijwe kwishyura mu ntoki.

Ndabona umunara muremure cyane, wenda kugera mu bicu, usa umutuku n'umweru, iruhande rwaho hakaba hariho igiti, amababi y'igiti gisa icyatsi, nkabona n'izindi nsinga zikoze mu cyuma zishamikiyeho.

Ndabona icyapa kiriho imodoka y'ubururu imodoka y'umweru, imodoka y'umukara, na moto y'umutuku, handitseho serivisi z'ibinyabiziga zimutse arara iramenyesha abayigana bose ko serivisise z'ibinyabiziga zimukiye masaka dubai.

Gutangiza ku mugaragaro ukwezi ko gushimira abasora, umusoro wawe wagize kandi uzakomeza kugira uruhare mu kubaka u Rwanda twifuza, turashimira abasora, abanyeshuri bari mu ishuri, inzu z'amagorofa maremare, indege igendera mu kirere n'imihanda iri kugendamo abantu benshi.

Abantu benshi baricaye barikureba muri mudasobwa, umwe arimo arabasobanurira, abandi nabo baramukurikiye bamuteze amatwi, bafite n'amakayi imbere yabo barimo barajya bandikamo, ufasha ku itama akurikiye...

Ndabona umunara muremure uteye ku muhanda iruhande rwaho hafasheho ikigega gisa umukara ,munsi yaho hakaba hari imitaka isa umuhondo irimo abantu munsi yayo hari iruhande rw'aho abamotari, bari kuma moto bambaye ingofero zisa umutuku.

Umunara ushinze mu byatsi by'icyatsi ahantu hari umurima muremure mu gisambu hakurya hameze nk'ayo umusozi, uwo munara ni muremure cyane w'icyuma ushamikiyeho insinga enye zitwara amashanyarazi.

Umunara muremure ushamikiyeho insinga nyinshi zitandukanye, insinga esheshatu umunara ukoze mu cyuma, iruhande rwawo hakaba hari ibiti bisa icyatsi, hakurya hakaba hari ahantu hari umusozi uriho amazu atuwemo n'abantu.

Abantu bahagaze ku madirishya, bameze nk'abari ku murongo, umwe ahetse igikapu mu mugongo undi yambaye ingofero y'umukara n'inkweto z'umweru, hejuru ye hariho nimero cumi n'eshatu, ku rundi hariho nimero cumi n'ebyiri hicaye n'abandi bamama bategereje bakuze.

Ababyeyi benshi bicaye hanze bagiye kwivuza kwa muganga bamwe bararyamye ku ntebe abandi bahetse abana abandi bari ku madirishya bategereje ko babafasha, harimo n'abasore amadirishya asa umweru.

Ndabona ahantu hameze nko kwa muganga, imbere yaho ya parikingi haparitse imodoka, n'umugabo uhagaze imbere y'ibitaro neza.

Abantu benshi bicaye bagiye kwa muganga, imbere yabo hari umuganga wambaye imyenda y'ubururu n'ishashi y'ubururu mu mutwe, harimo abanyururu, abafungwa, harimo n'abamama basanzwe baje kwivuza, hari abicaye, hari ahagaze ku madirishya, hari n'abarimo imbere mu idirishya.

Ndabona abavoka bicaye mu ntebe z'umukara, imbere yabo hari amamashini abateretse imbere, bambaye udupfukamunwa, umwe arimo arareba nk'uri guca urubanza, undi areba mu mashini yiwe.

Ndabona abantu bambaye imyenda y'imikara; abagabo n'abagore bameze nk'aho bari mu rukiko imbere yaho hari amabendera y'igihugu cy'u Rwanda, imbere y'ayo mabendera hicaye abandi bagabo n'abagore bameze nk'abavoka, bambaye imyenda isa ibara rya oranje.

Ndabona abaturage bicaye hasi n'abandi bicaye imbere yabo ku ntebe n'ameza imbere yabo harimo n'amakayi bameze nk'abo abayobozi babona uhagaze hagati n'umuturage umeze nkho ari kuvuga ijambo.

Abantu bari mu nkiko gacaca ubutabera bwunga, abantu benshi barimo barakoma amashyi, imbere hahagaze umugabo abandi bari kubyina, bambaye udutambaro tw'umweru mu mutwe bambaye imipira y'umweru, abandi bambaye imyenda isanzwe bose urabona abari gukoma amashyi.

Umugore ari kugenda mu muhanda, iruhande rwe hari inzu, imbere yayo iteyeho amabendera y'igihugu cy'u Rwanda, ku madirishya hahagaze abantu barimo kubaza ibibazo, mo imbere hateyemo ibiti by'icyatsi.

Ndabona urwego rukoze mu byuma bihinahinnye, nkabona n'urugi rusize ibara rinjya gusa na oranje, nkabona n'urundi rugi rusa umweru, iruhande rwaho hateretse kandagira ukarabe irimo ikidomoro igisa ubururu gifite umufuniko n'umukara.

Abapolisi barimo baragenda mu muhanda batwaye imbunda, iruhande rwabo hari umuyonzi utwaye igare, hepfo y'umuhanda hari imitaka y'umuhondo, abantu bicaye munsi yayo bacuruza amayinite, iruhande rwabo haparitse umumotari n'igikamyo gisa icyatsi.

Nabonye abantu bahagaze munsi y'amahemasa umweru kuruhande hariho amabara y'umutuku nubururu abantu bazamuye ibiganza hejuru bambaye imipira y'umutuku, abambaye imipira y'umweru, abambaye imikenyero y'ubururu, abambaye imyenda isanzwe bose bari kuzamura amaboko hejuru.

Icyapa kimanitse hejuru cyanditseho Repubulika y'u Rwanda, komisiyo y'igihugu y'amatora, amatora y'abadepite bibiri na cumi n'umunani, twitabire amatora duhitemo neza, harimo abamanuka bagenda gutora hari abazamuka umupapa umanuka w'umuyisilamu n'undi mu mama uzamuka ufashe umwana akaboko.

Ndabona umukuru w'igihugu Paul Kagame, ari mu muhango wo kwiyamamaza azamuye igipfunsi, yambaye umupira w'umweru w'umuryango, yambaye n'ingofero y'umutuku, yambaye agapfukamunwa k'umweru n'amarinete y'umukara.

Ishuri rya Kimironko ririkuberaho amatora y'Umukuru w'Igihugu, Repubulika y'u Rwanda, komisiyo y'Igihugu y'amatora. Hari abapapa bavuye gutora. Hari abandi bagiye gutora n'abamama. Hari urujya n'uruza rw'abinjira n'abasohoka.

Ndabona abantu benshi! bari ahantu hameze nkaho ari muri Stade, bazamuye amabendera asa umweru, umutuku n'ubururu, nkabona n'Umukuru w'Igihugu Nyakubahwa, Perezida Paul Kagame, agaragiwe n'Abapolisi bamurinda.

Abagabo bari mu matora umwe ahahagaze imbere y'irangururamajwi, bambaye amakoti n'amapantaro undi yambaye umupira w'umweru, inyuma yabo hicaye abamama bicaye ku ntebe z'ubururu ateguyeho igitambaro cy'umweru.

Umubyeyi wicaye arimo arareba imbere yambaye rinete, yambaye n'ikote rifite ibara ry'umuhondo n'umupira w'umukara, yicaye mu ntebe z'umukara, iruhande rwe hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, ku rundi ruhande rwe hari ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Umubyeyi wicaye mu ntebe y'umukara, arimo arareba yarakaye, afite imisatsi y'umukara, ari kureba iruhande rw'ibendera ry'u Rwanda yarakaye, yambaye amaherena, yambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru, imbere ye hateretse icupa ry'amazi y'Inyange, afite igipapuro cy'umweru mu ntoki.

Umumotari uri mumuhanda utwaye moto, urangaye yambaye ingofero y'umuhondo, moto ye irasa umutuku, hakurya y'umuhanda hari igipangu gisa umukara, iruhande rwawo hari ibiti umumotari ari mu gicucu cy'ubucuruzi.

Ndabona ibinyabiziga mu muhanda, ndabona twegerane isa umweru irimo umushoferi, nkabona moto eshatu zitwaye abagenzi bambaye casike nkabona hakurya y'umuhanda hari abagabo babiri bari kugenda mu muhanda aho bagendera hejuru yaho hari ibiti bari kugendera munsi y'ibiti.

Ikamyo niniri iri kugenda mu muhanda yikoreye imifuka myinshi, iziritse hejuru yayo hariyo shitingi n'indi modoka y'ubururu iri kujya mu cyerekezo bitandukanye hakurya akaba ari umunyonzi uhetse umugenzi umwe.

Ibinyabiziga bibiri biri mu muhanda igikamyo na moto, moto ihetse umugenzi wambaye ingofero z'umweru moto, isa umutuku igikamyo, gisa umweru, iruhande rwaho hateye ibiti by'icyatsi birebire.

Imodoka ebyiri zishoreraye mu muhanda, imwe ntoya imeze nka moto gusa itwikiriye, moto itwikiriye isi ubururu yanditseho nimero za terefone, imbere yayo hari ikamyo y'ubururu n'umweru.

Ndabona umumotari uhetse umugenzi. Umumotari yambaye casike y'umweru umugenzi yambaye casike y'umutuku, bari mu muhanda wa kaburimbo, ndabona hakurya imodoka igendera mu muhanda wo hakurya, hari n'ibiti by'icyatsi mu muhanda n'ibyatsi.

Umuhanda muremure urimo uragendamo abantu benshi batandukanye, harimo imitaka y'umuhondo, munsi y'imitaka y'umuhondo hicayemo abantu bacuruza amayinite, hariho umusore uri kugenda afite amverope mu ntoki, hari umuigabo uzamuka na we wambaye umupira w'ubururu, hakaba igare riparitse aho n'intebe ebyiri, iy'umweru n'ubururu na moto.

Ikinyabiziga k'igikamyo kiri mu muhanda gisa umweru, hakurya hari abagabo babiri barimo baragenda iruhande rwabo hepfo hari ibiti birebire by'icyatsi, hirya yabo inyuma yabo hari ikindi gikamyo gisa ubururu.

Ndabona ibinyabiziga bibiri mu muhanda ari byo moto kimwe gihetse umugezi ikindi kiri kugenda nta mugenzi uriho birimo ibiremeze nk'ibigenda bizamuka bigana haruguru ku muhanda hari ahantu hateye igiti hari n'amapoto y'umuriro w'amashanyarazi.

Ndabona imodoka ndende itwara abagenzi isa umuhondo iparitse aho baparika ibinyabiziga, nkabona niyindi ndende y'ubururu nayo iparitse aho baparika ibinyabiziga, hagati yazo harimo abagore babiri bahagaze bambaye amapantaro y'ubururu barimo baraganira.

Imodoka iparitse muri gare ahantu mbona harimo ibinogo birimo amazi asa nabi, imodoka ndende isa ubururu n'umweru, harimo n'ibyuma by'umuhondo harimo n'amapine y'umukara hakurya hakaba hari umusozi uteyeho ibiti byinshi.

Ndabona ibinyabiziga mu muhanda imwe ni moto ihetse umugenzi, iyindi n'imodoka y'umukara iri inyuma yayo iri kuza. hakurya y'umuhanda hari umugore wunamye uri gukora isuku mu muhanda, hakaba n'iyindi modoka, hakaba n'indi moto iri kugenda mu cyerekezo kimwe.

Imodoka y'umweru iparitse mu muhanda, imbere yayo haparitseho indi igeretseho imifuka myinshi, hariho abagabo barimo barayipakurura, hariho umugore wunamye mu muhanda urimo arakora isuku, mu muhanda harimo ibindi binyabiziga, moto, igare

Imihanda itandukanye harimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, harimo imodoka enye z'umukara, harimo na moto ebyiri, ku ruhande rw'umuhanda hakaba hateye ibiti by'icyatsi, hakaba hari n'inzu zifite inzugi z'ubururu.

Ndabona imodoka yikamyo y'umweru iri mu muhanda hejuru harimo igipe, itwikirijwe na shitingi y'ubururu imbere yayo hari imodoka yindi ntoya ya toyota y'umweru nayo iparitse ahantu hameze nk'ahari kwa muganga imbere y'akazu gasa ubururu.

Ndabona umukobwa ugenda, wambaye ipantaro y'ubururu mu muhanda, nkabona n'abandi bantu bagiye bicaye, nkabona n'abandi benshi barimo baragenda, nkabona ibiti bisa icyatsi, biteye iruhande rw'umuhanda, nkabona n'inzu ntoya ziri iruhande rw'uyu muhanda.

Icyapa kiriho imodoka ishushanyije mu mabara y'umweru n'imbere mu madirishya ari ubururu no mu mumapine ari ubururu. icyo cyapa nacyo kikaba gisa umweru n'ubururu.

Amatara yo mu isangano ry'imihanda aho bambukira, yerekana igihe cyo gutambuka n'igihe cyo guhagarara n'igihe cyo kureka abagenzi bagatambuka, harimo icyerekezo gisa umutuku kirimo imibare mirongo itatu, icyerekezo kizamuka n'igitambika ku rundi ruhande kirimo imibare y'ubururu isa yanditseho makumyabiri na gatandatu.

Umunara muremure uteye ku muhanda ushamikiyeho insinga nyinshi zitwara amashanyarazi, ukaba ukikijwe n'amatafari ahiye, uteye mu byatsi, iruhande rwawo hakaba hari icyapa kigaragaza yuko aho hantu hatemewe guhagarara ibinyabiziga, hakaba hari n'amazu ari iruhande rwaho, akikijwe na yo n'ibiti bisa icyatsi.

Inzu ndende, ihagaze, ifite hejuru no hasi, ifite amagorofa atatu, amadirishya y'ubururu, nta mabati ifite agaragara, ifite amadirishya matoya, amanini, imiryango minini n'imitoya.

Ndabona ahantu hari abantu benshi, bameze nk'abarimo guhaha, hari imitaka isa icyatsi, n'isa umutuku, hari umugabo wambaye umupira wa oranje, nkabona n'umugore wambaye umupira w'umweru, bamwe bari kuzamuka abandi bari kumanuka.

Amazu menshi ari ahantu mu kibaya, arimo arubakwa arimo arakorerwaho imirimo yo kubakwa, afite amabati y'ubururu, afite amabati y'umutuku, hakaba hari n'imodoka, ikora umuhanda isa umuhondo iri aho ngaho, hakaba hari n'abandi bagabo barimo barubaka, bafite n'amatafari.

Umuhanda urimo abantu benshi hariho ibyapa dukata imfunguzo zo na nimero za telefoni igendanwa, Giporoso uwundi atwaye inkweto mu ntoki, ahandi haraparitse amapikipiki menshi abantu barimo baragenda.

Ikibanza kinini kirimo inzu iri kubakishwa amatafari ahiye, ikaba ifite amadirishya y'ibirahure asizeho irangi ry'mweru, imbere yahokaba hateye ibyatsi bisa icyatsi, n'ibiti bikiri bitoya.

Abantu barimo barambuka mu muhanda imodoka ishaka kubagonga iri imbere yabo na yo yakomeje ikagenda aho abanyamaguru bambukira, hakaba n'igare, hakaba na moto itwaye umugenzi, moto eshatu zitwaye abagenzi.